Kizimyamwoto, iyingiyi ishobora kugufasha mu gihe mu nyubako habaye inkongi y'umuriro, kubera yuko iba iri hafi, ushobora guhita uyifashisha, ugakumira iyo nkongi y'umuriro itaraba nini.

Ntukagire impungenge mu gihe cyo kwivuza, ubwishingizi bwo kwivuza rambana na buritamu nicyo bubereyeho. Buritamu ni ikigo gitanga ubwishingizi mu by'ubuzima mu byo kwivuza ndetse n'ibindi.

Temberana ubwishingizi bukugoboka mu bihe by'akaga, ushobora kwishyura ubwishingizi kugirango mu gihe ugeze mu makuba, buzakugoboke kandi rwose uzajye ugenda utuje nta mpungenge.

Ibyishimo by'umuryango ni ukudahangayikira ahazaza hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza bwawe n'ubw'umuryango wawe, ikigo radiyanti kiraguha ubwishingizi butandukanye bwo kwivuza.

Famili inshuwarensi, iyi ngiyi ni ubwishingizi bw'umuryango wawe ku bihereranye n'indwara, amashuri ndetse n'ibindi bitandukanye, urugero amazu nk'imirima n'ibindi.

Icyapa kigaragaza uwo bita Brian Jones arimo arashimira abantu kuba mwarahisemo gukoresha uburyo bwe bwa ishuwaresi kapanyi cyangwa se uburyo bw'ubwishingizi mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani.

Uburyo ikarita yanjye yakoreshejwe muri uku kwezi : ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwa munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, nakoresheje amafaranga ibihumbi magana kenda ava ku ikarita yanjye.

Taransiferi nshobora gukoresha nkiyoherereza cyangwa se nkakira amafaranga nkabasha kuba nakohereza kuri konti yo kuzigama, nkohererereza amafaranga kuri mobayiro mani, ndetse nkanohereza ku zindi konti za banki.

Vayibu riyo esiteti, aba ngaba bagufasha kuba wabona ibibanza byiza biri ahantu heza ukaba, wabona inzu zo kuba wagura mu gihe uzikeneye, kandi zifite ibyangombwa bitaguhenze kandi bya nyabyo byizewe.

Ibikoresho byiza cyane bya medini Rwanda harimo ibikozwe mu bitenge urugero nk'umutaka mwiza ukozwe mu gitenge amakanzu meza cyane akozwe mu bi bitenge ibikapu byiza cyane bikozwe mu bitenge n'ibindi.

Umubyeyi ufite alimantasiyo irimo ibicuruzwa bitandukanye urugero, ibyo kurya nk'amabiswi, amakaroni n'ibindi bitandukanye, arimo arakira abakiriya yishimye aseka.

Mu muhanda rwagati mu masaha y'ijoro aha hino kuri iki gice kigendedwaho n'abanyamaguru hari ububiko bwagenewe kubikamo cyangwa kujugunywamo imyanda ikoreshwa n'abakoresha umuhanda harimo ibinyabiziga biri kugendera mu muhanda bibisikana by'umwihariko imodoka inini n'intoya ndetse n'abanyamaguru bari gukoresha umuhanda.

Umunyarwandakazi wagiye guhaha imyenda mu iduka ricuruza imyenda y'abagore yiganjemo amakanzu ndetse n'amashakoshi yayo, arishimye agiye kugura iyo kanzu.

Umucuruzi urimo uraha Kasitomakeya umukiriya kugira ngo abashe kuba yagura ku biciro byiza kandi atahe yishimye n'ubutaha azagaruke yishimye.

Imodoka ya vorukano egisipuresi, itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba yabavana ahantu hamwe ikabageza aho bagiye kandi bose bakagenda batekanye, badahungabanye rwose.

Akagera bizinesi gurupe ni ikigo gishobora kukuzanira imodoka zawe kizivanye mu mahanga, ahangaha ni umugabo wari uje gutwara imodoka ye wari warayitumije ikaba yamugezeho imeze neza.

Imodoka nziza ya yundayi ifite ibara ry'umweru. Imbere yayo hari umugabo urimo kuyifotorezaho bigaragara ko ari we umaze kuyigura, kuko iyi modoka iri ahantu bagurira imodoka.

Abantu batandukanye bafite amadapo y'ibara ry'umweru ubururu n'umutuku yanditseho Efuperi bakikije umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru, uriho ikirangantego cya efuperi wazamuye akaboko.

Akagera motozi bakaba barimo barashyikiriza umukiriya wabo imodoka yabatumye, bakaba bayimugejejeho nta gikuba cyacitse, imeze neza kandi itangiritse bakaba bakomeje kongera icyizere bari bafitiwe.

Akagera Motozi ni ikigo ushobora gutumaho imodoka wibereye mu Rwanda kikazikuzanira aha mu Rwanda, umugabo ukora mu Kagera Motozi arimo arashyikiriza imodoka undi mugabo wari wayitumije.

aAkagera motozi karimo gushyikiriza umuntu watumije imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, ifite ibara ry'umweru, akaba yari yayitumije hanze ikaba imugezeho imeze neza nta kibazo na kimwe afite.

Inote ya banki nkuru y'u Rwanda amafaranga ibihumbi bibiri akaba afite ibara rijya gusa na kake akaba ashushanyijeho umunara muremure ushushanya iterambere mu by'ikoranabuhanga.

Wesitani yuniyoni ni uburyo bwiza kandi bwizewe, ushobora koherereza amafaranga umuntu wawe uba mu mahanga, akamugeraho umutekano ari wose kandi akamugereraho ku gihe gikwiriye cya nyacyo.

Banki ovu Kigali purayiveti bankingi senta iyi ngiyi ni banki yigenga ya kigali aha ngaha akaba ari ahantu ushobora kuza bityo ukaka inguzanyo umeze neza utuje.

Ibiro by'ivunjishirizwamo amafaranga y'amadovize, ni ukuvuga ko uba ushobora kuzana amafaranga yo mu gihugu runaka bakayakuvunjira mu y'andi yo mu gihugu wowe wifuza, bakaguha agaciro neza neza gahwanye n'ayo wazanye.

Ahantu hacururizwa inzoga barimo kuhakoropa mu mugitondo kugirango haze kwirirwa hasa neza, hanze haparitse ibinyabiziga bitandukanye moto, amagare ndetse n'ibindi byose bitegereje guhabwa serivisi.

Kiyosike ya Mukamira dayari rimitedi, ifitemo amata ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, urugero nk'amaji, amafanta ndetse n'ibyo kurisha byose.

Akuma kifashishwa mu gushyushya ibyokurya kazwi nka mikoronde karimo gukoreshwa icyo kagenewe kugira ngo kabashe kuba katanga ibicuruzwa bishyushye abakiriya babashe kubirya.

Umugore urimo gucuruza muri Alimentation, ariko akaba acuruzamo icyayi, amata, amandazi, capati ndetse n'ibindi.

Inyange ni amata meza, ateguwe neza, ashobora guhita anyobwa ako kanya, yujuje ubuziranenge, kandi umwana wayanyoye, akura neza.

Umugore wirabura ufite imisatsi myinshi y’umukara namaso ajya kuba matoya wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n’umukara ahagaze imbere y’ igikuta gifite ibara ry'mweru.

Mukamira dayari rimitedi bafite ibintu bitandukanye ushobora gukenera, harimo amata ,yahurute amata atandukanye ndetse ikaba ifite na poromosiyo idasanzwe.

Ni karibu iwacu zirakamwa iyi ngiyi ni kiyosike uguriraho amata ndetse wabishaka ukagura n'icyo gufatisha mu gihe uri mu rugendo ukabasha kuba warukomeza, hari amata meza cyane ya Mukamira n'ay'inyange.

Inyange, icyuma cy'inyange gicururizwaho amata, ku buryo ushobora kuza kuyagura bitakugoye, baba bafitemo kandi n'ibyo kurisha urugero nka keke, amandazi n'ibindi.

Taburo igaragaza uburyo abantu bagiye bahaha bakoresheje amafaranga yabo, urugero uwitwa Jena watisoni yohereje amayero icumi n'ibice bitanu, hanyuma uwitwa Alisa abala yohereje ibihumbi ijana bitatu.

Payipali n'uburyo bwizewe ushobora gukoresha wohereza amafaranga cyangwa se wishyura ibintu bitandukanye, ugaha amafaranga inshuti n'abavandimwe cyangwa se ukishyura abakozi bawe. Ubu n'uburyo rero bwa payipali ikimenyetso kiba kigaragaza yuko wamaze kohereza amafaranga cyangwa wayakiriye.

Nimba ufite telefone uzakore uko ushoboye umenye kuyikoresha wandika ibintu byinshi bitandukanye mu mabara atandukanye bizatuma uyibyaza umusaruro uhagije.

Uburyo ushobora kwifashisha ukohereza amafaranga yose ushaka kugeza ku bihumbi bitanu by'amadorari, ukayohereza mu bihugu bitandukanye, ukoresheje telefone yawe utarinze kuva aho uri.

Teganyiriza ahaza h'umwana wawe. Amafaranga make watangiza none, yakubaka ejo hazaza heza h'abana bawe; Sipeni ni ikigo gishobora gufasha abantu kwizigamira.

Abagabo babiri umwe wambaye umwenda w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi uri mu ibara ry'ubururu bombi barimo gukoresha serivisi za sipeni bizigamira.

Fagitire ya EBM iriho umusoro wa TVA ndetse ikaba yemewe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro cya Rwanda Revenue Authority .

Fagitire yemewe ya ibiyemu ndetse ikaba ikigo k'igihugu Rwanda reveni otoriti nacyo kiyemera, kubera yuko iba yakuweho imisoro yose y'igicuruzwa ikenewe kuvanwaho.

Inyemezabwishyu ya EBM, igaragaza uko umusoro wa Rwanda Revenue authority uba wagiye ukurwaho kuri buri gicuruzwa bityo ukizera yuko utanze umusanzu wawe ku kubaka igihugu cyawe.

Fagitire ikoze neza yatanzwe na ibiyemu, igaragaza ibicuruzwa byaguzwe, umusoro byishyuwe ndetse n'itariki biba byaguriweho.

Taburo igaragaza uburyo umusoro wagiye wubakwa kandi ukinjira, akazu kabanza karimo imibare agakurikiye kariho ubwoko bw'umusoro, agakurikiye karimo amakuru ajyanye nawo.

Amafaranga y'amanyamahanga hano niho habera ivunjishwa ry'amafaranga uzana amafaranga ufite wowe warangiza bakakuvunjira amafaranga yandi ukeneye rwose .

Amafaranga y'amanyamahanga aya mafaranga ni ininote y'igihumbi yo muri Nijeriya iyo ushaka ko bayikuvunjira mu madorari baguha ahwanyije neza agaciro kayo.

Amafaranga y'amanyamahanga yo mu gihugu cy'ubuhinde yo muri banki rizavu y'ubuhinde, ikaba ari amafaranga magana cyenda afite ishusho ya mahati magandi.

Aho bavunjira amafaranga y'amanyamahanga, urayazana bakakuvunjira nabo mu yo wifuza bakaguha ahwanyije agaciro neza neza n'ayo wazanye kandi bigakorwa neza mu mucyo.

Amafaranga y'amanyamahanga agiye atandukanye harimo nk'ayo muri Ghana ayo mu Busuwisi amadolari ndetse n'ayandi, iyo uzanye amafaranga bakuvunjira neza neza ahahwanye n'ayo ufite.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Amafaranga atandukanye harimo amayero, amayero atanu, amayero icumi, amayero makumyabiri, amayero mirongo itanu, amayero ijana, amayero magana abiri.

Biro de shange karense egisicange travegisi ni ahantu uzana amafaranga yawe, bakayakuvunjira ugatahana amafaranga mu kindi gihugu ahwanyije agaciro n'ayo wazanye.

Umuhanda mwiza kandi ufite isuku bashyizeho akayira k'abanyamaguru gahagije, bamwe baratambuka abandi nabo bagakora imyitozo ngororamubiri, ku mpande hariho inyubako ikorerwamo n'ikigo cyitwa radiyanti gikora ibigendanye n'ubwizigame ndetse no kwishinganisha.

Abagabo babiri bari imbere y'ikamyo umwe yambaye ishati y'amakaro undi yambaye umupira w'umutuku urimo utubara tw'umweru, imbere y'iyo kamyo hari amagambo yandikishije umutuku hari n'ayandi yandikishije umukara.

Taburo igaragaza uko amafaranga y'amanyamahanga arimo kuvunjwa, bakaba bagenda bayahindura bitewe n'aho ayo mafaranga ageze ku isoko mpuzamahanga, ibyo ngibyo bikaba bibafasha cyane mu kudahomba no mu kutiba abakiliriya babo.

Intebe nziza yo mu bwoko bw'amadiva ifite ibara ry'umuhondo risa nka zahabu yicarwamo n'umuntu imwe iteretse mu nzu nziza cyane ifite amakaro y'umweru.

Ahantu haparitse imodoka ifite ibara ry'icyatsi bagurisha intebe kandi bakazikora, ushobora no kubazanira izishaje bakazivugurura zikongera zigasa neza, baba bafite n'ameza y'ubwoko bwose yaba akoze mu biti no mu bundi bwoko.

Inyubako nziza cyane ya ladisoni bulu iteye amabengeza, ifite ibirahuri byiza cyane bisa nkibara ry'umuhondo, hafi yaho hari ahantu heza cyane ho kwicara baruhukira bagatuza.

Kiriti hoteri iherereye mu kiyovu irimo kwerekana serivisi zose itanga k'uzikeneye ashobora kubariza ahangaha, iyi ngiyi ni meniyu yabo yerekana buri kintu cyose wakenera n'uko wakibona.

Ubwogero cyangwa pisine, bwo muri uwazizi paka wiridi abani. Bukaba ari ari ahantu heza cyane, haba hatuje, ushobora kujya ukaharuhukira, ari nako ukora siporo yo koga, ukagira ubuzima bwiza.

Ubwogero cyangwa se pisine nziza cyane iri ahantu hatuje kandi hari akayaga, iruhande rwayo hari akajaride keza cyane gatanga amahumbezi n'amafu.

Radisoni buru, hoteli endi komvesheni senta kigali, iyi ni hoteli nziza cyane ifatwa nk'iya mbere mu mujyi wa kigali kuko ishobora kwakira ibirori bitandukanye kandi bizamo abantu benshi bakabona n'aho kurara.

Mariyoti hoteli, ikaba ari ahantu heza hari amafu kuko hateye ibiti bizana akayaga; hakaba hari ubusitani bwiza cyane bunogeye ijisho, buri muntu wese wifuza kuyiraramo ataha anyuzwe.

Zayoni, zayoni ni ahantu heza cyane haba hari imitako myiza kandi haba hasa neza cyane, hari amarangi meza cyane asa neza kandi haba hari isuku n'ibikoresho byiza bikoze mu biti.

Umuntu umugore uje kwaka serivise zitandukanye z'ubwishingizi kugirango ahore yishimye kandi atuje, kuko azi ko yashinganishije umuryango we.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka ikurikiwe na moto, ifite agatwara imizigo kari mu ibara ry'icyatsi, hirya hateye ibiti ndetse n'amapoto ariho amatara yo ku muhanda, hirya hari ipoto ritwara amashanyarazi.

Abantu bategereje yuko ibirori bitangira byo kwizihiza isabukuru, banki ekwiti imaze ikorera mu rwanda itanga serivisi zinogeye abanyarwanda muri rusange.

Bizinesi yawe igomba gukura. Iyingiyi ni garanti uhabwa na tarasiti banki yo muri Gana, aho ushobora kuba wakisabira inguzanyo, ukanze kanyenyeri, karindi gatatu karindwi, akanyenyeri, zeru, urwego.

Ubu ngubu ushobora kwiyakira inguzanyo y'umunyeshuri cyangwa se umunyeshuri nawe akiyakira inguzanyo y'amasomo ye, biroroshye hamwe na beride banke, ushobora gusura urubuga rwa egisipo rwa cumi n'umunani ukareba byinshi.

Serivisi zitandukanye zo muri banki, ku buryo haba hari abantu batandukanye bitewe buri wese na serivisi ashaka, yegera abakozi babishinzwe bityo bakamufasha.

Aho bahahira hari ibisheke, hari n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, urugero nk'imboga n'imbuto, inyanya, amakaroti, intoryi, n'ibindi. Harimo abamama benshi, kuko baje guhahiramo.

Umucuruzi w'imboga n'imbuto, urimo urakoresha fagitire ya EBM, kuko niyo yemewe na leta y'Urwanda ,kuko niyo yizewe y'uko umusoro wose ukenewe uba watanzwe nta kunyerezwa.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye byo guteka higanjemo ibijumba, ibirayi, amateke, ibikoro ndetse n'ibindi. Abacuruzi baririmo bategereje abaguzi.

Inyubako nziza cyane y'isoko ry'umujyi wa Kigali, rikoreramo ibigo bitandukanye, abacuruzi batandukanye, ndetse n'izindi serivise zigiye zitandukanye. Iyo ushaka kugerayo uca umuhanda umwe uva mu mujyi dawunitawuni.

Isoko ribamo ibicuruzwa bitandukanye imboga n'imbuto; hakaba harimo abacuruzi bategereje abakiriya ko baza, harimo imboga zitandukanye urugero: nk'amakaroti, inyanya, ibitunguru n'ibindi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gitwaye amacupa ya gaze akaba ariwe muntu wambaye umupira w'umukara ipantaro y'umukara n'inkweto zifite ibara ry'umukara akaba hari n'undi wambaye ishati y'amaboko magufi bifite ibara ry'umukara ririmo uturonko mu tw'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara n'umweru.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Isoko ricururizwamo ibyo guteka bitandukanye, harimo imboga n'imbuto urugero: inyanya ,karoti, intoryi ,imiteja n'urusenda .

Kiyosiki ikoreramo umu ajenti wa emutiyene, utanga serivisi zitandukanye, urugero nk'amayinite, kubikuza kohereza amafaranga ndetse n'ibindi bitandukanye byose wakenera.

Vuba vuba ni gahunda yashyizweho ku buryo uyituma ibyo wifuza byaba ibyo guteka bikakugeraho vuba vuba aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali ukabasha kuba wateka utekanye.

Kasha, kasha ni uburyo ishobora kwigurira ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo guteka, iby'amasuku, imitako, n'ibindi. Ibi byose ukaba wabigura wibereye mu rugo ugakoresha uburyo bwa ha onoline.

Abakobwa babiri barimo barahererekanya ibyo guteka, umwe ni umukozi wa vuba vuba yazanye ibicuruzwa mu buryo bwihuse abishyikiriza umukiriya bityo nawe agiye gutangira kubiteka rwose.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rwa banki runaka aho ushobora kwishyura kwakira kohereza amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri, no gukora ingendo zitateganyije byihuse.

Moto nziza, nshyashya, ziri mu mabara y'umutuku ndetse n'ay'icyatsi, zose zikaba zikoresha umuriro w'amashanyarazi, zikaba zose zifashishwa mu kugemura ibyo kurya ahantu hatandukanye. Iyo utumije zihita zibikugezaho.

Rwandamart ni iguriro ushobora kuguriraho ibintu byose ukeneye wibereye mu rugo ukoresheje internet yawe gusa na telefone yawe ushobora kugura ibyo guteka, ibyo kwambara, imikufi n'ibindi .

Mu mujyi wa Kigali Kacyiru hari inzu nziza cyane igeretse ifite imiryango y'ibirahure byiza bya fime, ifite n'ubusitani bwiza burimo ibiti birimo imbuto nziza ziryoshye.

Umugabo uri imbere y'inyubako nziza cyane ifite amarangi meza y'umweru, ikaba ifite ibirahure byiza nabyo bibonerana, uyu mugabo akaba yishimye kuko inzu ye yarangiye isa neza.

Inzu nziza cyane yo gukodeshwa ku kwezi; irimo intebe nziza cyane ndetse haranasa neza, iyi nzu ushobora kuyibona ku madorari "igihumbi magana atanu" yonyine ku kwezi muri Kigali.

Kabeza mu mujyi wa Kigali hari inzu nziza cyane irimo ibikoresho byiza bisa neza ikaba ifite inzu nini cyane ikagira ibyumba binini cyane.

Vayibu riyo esiteti, aba ngaba bagufasha kuba wabona ibibanza byiza biri ahantu heza ukaba, wabona inzu zo kuba wagura mu gihe uzikeneye, kandi zifite ibyangombwa bitaguhenze kandi bya nyabyo byizewe.

Kicukiro Kagarama mu mujyi wa Kigali hano hari inzu nziza cyane ifite ibikoresho byo mu nzu bitandukanye, ikaba ikodeshwa igihumbi n'ijana mu madolari ku kwezi kumwe gusa.

Bayi seri endi renti riyo esiteti wivu wa wa wa akadomo kwiki akadomo ra wa, iyi ngiyi ni website ushobora kuba waguriraho ibibanza ukabicuruza ndetse ukanabikodesha utiriwe uva aho uri.

Gacuriro mu mujyi wa kigali, hano hari inzu ikodeshwa ibihumbi bitatu by'amadolari ku kwezi, gusa kandi ahantu haratekanye haba harimo ibikoresho byo munzu byose ukeneye.

Inyubako nziza cyane igeretse rimwe, ifite ibirahuri byiza cyane bya fime, iherereye i Kigali, kimironko ikodeshwa buri kwezi irasa neza cyane.

Inzu nziza cyane iherereye Kabeza ikodeshwa ibihumbi magana atandatu byonyine ku kwezi ikaba iri mu gipangu cya yonyine kandi ifite parikingi nziza nini ihagije yisanzuye.

Iyi ni inzu nziza cyane ya kadasiteri ifite parikingi ihagije kandi isa neza, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe ifite ibyumba bine byo kuraramo ikaba ifite n'ubwogero butatu.

Inzu nziza cyane igeretse irimo ibikoresho byo mu nzu, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo ikaba ifite n'ubwogero bubiri ikaba ikodeshwa amadolari y'igihumbi yonyine ku kwezi.

Inzu nziza cyane isize amarangi y'umweru, ifite inzugi zifite ibirahuri bya fime, ikaba igurishwa miliyoni magana atatu mirongo itanu zonyine mu mujyi wa Kigali.

Inzu nziza cyane yo gukodeshwa iri Kigali ku Kimironko. Ifite ibyumba bine byo kuraramo, ikagira n'ibyumba bine by'ubwogero biba birimo na tuwarete, inzu irageretse.

Umukozi uri muri alimantasiyo arimo arashyira ibicuruzwa mu kantu ko kubitwaramo kugira ngo atwaze umukiriya abashe kubigeza ku modoka ye, iyingiyi akab ari kasitomakeya.

Ejo heza ni gahunda ya Leta ishinzwe gufasha abantu kugira ngo bizigame, maze mu gihe kiri imbere bazagire amasaziranoro meza, bakaba barimo barayitoza abanyeshuri kugira ngo bakure bayikora.

Abayobozi babiri bafatanye ifoto y'urwibutso, umwe ni umuyobozi wa arayesesibi, akaba yambaye ikote rya shokora uwo bari kumwe yambaye ikote ry'umukara.

Urupapuro rusa umuhondo rurimo amakashe agiye atandukanye, iyi ngiyi ikaba ari ubwisungane mu kwivuza bwakoreshwaga mu Rwanda mbere y'uko haza uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga.

Ejo heza ni gahunda ya leta ifasha abantu kugira ngo bazabeho neza igihe kizaza, ni ukuvuga ngo uzigamire amasaziro yawe kuva ukiri muto; ibyo ngibyo bikagufasha kugira ngo uzabone uko ubaho igihe uzaba ushaje.

Siperi marishe irimo ibicuruzwa urugero nk'amagi, imigati, ibyo guteka, ibikoresho bya elegitoronike n'ibindi, hanyuma umukozi arimo arasobanurira umukiriya.

Ovatayime iyi ngiyi ni shokora iguzwe muri ino superimarishe irimo n'ibindi bintu bitandukanye, urugero icyayi cyo kunywa ikaba irimo amashokora agiye atandukanye yo kurya, ubuki imigati ndetse n'ibindi bicuruzwa.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa byiganjemo imbuto n'imboga, harimo pome inoryi karoti tangawize imiteja indimu, harimo n'umukozi ushinzwe kubikorera amasuku.